Aba ni ababyeyi rero urabona ko bafite ibintu bari kuganiraraho batatu beza cyane. Hari amazi imbere yabo, bafite amakaye n'ikaramu, hanyuma barandika ibintu bitandukanye bitewe n'ibiri kuvugirwamo hano, inyuma urahabona umusore usa n'aho ari kwinjira aje kubareba.

Uruziga rw'igiceri cy'icyuma gisize ibara ry'umuhondo gishushanyijeho umubare mirongo itanu amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'igisiga cyafunguye amababa uruhande hari amashami y'igiti ariho imbuto.

Uyu mugabo ubona yambaye akagofero, amarinete y'umukara, mikoro arimo aravuga bikumvikanira kure umupira mwiza w'ubururu bisa nkaho abayambaye ari benshi afite telefone mu ntoki wagira ngo ibyo ari kuvuga niho ari kubikura.

Umubyeyi ubona ko yasokoje agasatsi kiwe rwose, imbere ye hari ikirahuri cyubitse agacupa k'amazi, ururabo ruteye, nabwo inyuma ye hari abandi bagabo ubona ko bafite ibintu bajemo banakurikiye ndetse bose.

Ni mwiza cyane kubona ko nta bintu yisize bimugira mwiza, kubera ko ubwiwe ararenze rwose, imisatsi ntabwo yigeze ayirohamo ibintu bimwe by'ubu, yambaye agakanzu keza k'ubururu n'isaha, imbere hari uducupa tw'amazi bisa naho ari ibintu ari gusobanurira abantu nyine bari bitabiriye aho yaje.

Aba bagabo rero ubona bameze neza bafite gahunda rwose, bambaye imyenda myiza ndetse n'abagore, urabona ko imbere yabo hari za mudasobwa zirimo ibintu bari kwigaho, cyangwa bari kuvugaho. Ndetse n'uducupa tw'amazi igihe bagize icyaka bashobora gusomaho.

Abagabo benshi ubona ko bafite ibintu bitabiriye uyu we yanumiwe bitewe nibyo ari kureba niba ari kubyumva neza niba atari kubyumva neza ariko icyo nicyo utambaza ariko icyonzi nuko afite amazi imbere ye nabona biri kwanga baramubwira ngo nkwa amazi birashira.

Aba bagabo ndetse n'abasore n'inkumi ziri imbere ariko zo ntago ziri kugaragara neza ubona ko bitabiriye, bamwe bafite udukaye bari bwandikemo imyanzu cyangwa se ibitekerezo byatanzwe abandi bari bwumve babicyure mu mutwe.

Aba bagabo benshi urababona nkurikije ukuntu mbabona ntamugore urimo bose barakuze harimo abambaye amakanzu ubona y'abayisilamu ndetse n'amakote bisa naho bavuye mu nama runaka, inyuma yabo hari amazu y'ibirahure ubona ko hariyubashye.

Ni byiza ko wajya witabira inama rusange zivuga ku bintu runaka. Zaba izigisha ndetse n'izindi nk'uko n' uno mudamu ndetse n'aba bagabo bahisemo kubijyamo. Rero ni babiri umwe yicaye hagati n'ikote ryiza ry'umutuku; imbere yabo hari mudasobwa ndetse bari kureberamo ibintu bitandukanye.

Aba rero ni abagabo ndetse n'abagore babiri. Umwe aricaye, undi arahagaze ndetse urabona ko nyine ari ibintu birimo uburinganire nta kibazo, hari inyuma yaho yaho bisa nkaho ari munzu ndetse impande hari ibyapa bigiye biriho amagambo atandukanye.

Abantu benshi bitabiriye inama rusange rwose urabona ko bafite na za mudasobwa, abanyamakuru inyuma babatunze kamera, ibintu byerekana amashusho imbere yabo ndetse n'abayoboye inama, bisa n'aho bari kubaganiriza ku bintu runaka.

Uyu mubyeyi ubona ko afite imisatsi iboshye arakeye isura ye afite mikoro ndetse imiringa impeta nyine ku ntoki, agakote keza k'ubururu bisa nkaho ari gusoma ikintu runaka akibwira abandi.

Abategarugori nabo nagize ijambo da nkuko ubibona ari n'imbere aranayoboye hakurya harimo abandi abagabo ndetse n'abandi bicaye inyuma, afite mudasobwa imbere ye, ikayi n'ikaramu, telefone, amazi yo kunywa kugira ngo icyaka kitamwica, ubu se nihehe wamusuzugura.

Hari inama zikunda kuba ziga kuri byinshi nkurikije uko mbibona iyi nayo niyo, hakurya urahabona ababyeyi ndetse n'abagabo, imbere yabo naho hari abandi bafite za mudasobwa bigaragara ko imyanzuro iri buvugirwemo bari buyandike.

Abasore beza cyane ubona ko bicaye imbere yabo hariho amazi ndetse n'amakayi n'amakaramu, igikapu, mudasobwa. Bari kumwe n'umugore ubona ko nawe yashiritse ubute akaza, bafite ibyo bari kureba basa nkaho bateze amatwi umuntu uri kuvuga ijambo.

Hano rero ni abari n'abategarugori, urabona ko barimo ndetse n'abasore, bari ahantu runaka hari ibitambaro by'umweru, ndetse amazi imbere yabo, amakaramu, ndetse n'amakayi bagomba kwandikamo, ibyo bumvise.

Iyi ni inama rero nkurikije ukuntu nkibona ariko ntabwo nzi ngo iriga ku biki. Ni byiza ko rero twakurikira tukumva igihe twayitabiriye. Irimo abagore, abagabo imbere hari ibyo bari kureberaho amashusho cyangwa se ibindi bintu.

Iyi ntabwo nzi icyo iri kwigaho ariko si ikintu kibi nk'uko ubibona nawe, bafite za mudasobwa imbere yabo, bamwe na bamwe ariko, abandi bafite amakayi n'amakaramu, uducupa tw'amazi kugira ngo bayanywe nibumva mu kanwa hatangiye kuma.

Aba babyeyi babiri ubonako bafite ibyo bari kureba, inyuma yabo handitse Kigali yacu , Kigali ikeye, iruhande hari umugabo ,imbere hari uducupa twamazi na mudasobwa ndetse n' utumikoro dutuma bavuga ngo Bose bumve abarimo aho ngaho.

Hano rero iyi ni inama yiga ku bibazo runaka biba byugarije igihugu cyangwa se umujyi muri rusange rero irimo abantu batandukanye harimo n'abagore nkuko ubibona utu mikoro dutuma umuntu avuga bikumvikana ahantu hombi amazi bari kunkwa ndetse nibindi.

Uyu mubyeyi urabonako afite imisatsi myiza irambuye, irimo irakora inyuma kumugongo indi imbere yambaye agakanzu keza karimo utuntu tujyanye twose tw'umukara, inyuma ye hari ibirango bis' icyatsi, mikoro iri imbere ye ubonako afite ibyo ari kubwira abantu bari bitabiriye aho yaje.

Aba bagabo babiri ubona, umwe yambaye ishati y'umweru, undi akuriye inzego z'umutekano hano mu Rwanda, yambaye n'imyenda y'akazi nk'uko ubibona rwose, uducupa tw'amazi imbere ye, ayo bakaraba kugira ngo bice ibiri mu ntoki zabo bituma bashobora kurwara indwara runaka ndetse n'uwundi ufite mudasobwa bisa naho afite ibyo ari kurebamo.

Iyi nama ni ngombwa ko uko yiga ku bibazo bitandukanye bikabasha kuba byakemuka, aba rero ni abagabo babona ko yambaye amakote y'umukara ndetse n'ubururu amashati y'umweru asa, bamwe bafite za mudasobwa abandi bafite telefoni impande yabo hateretse amazi ,inkweto nziza cyane mbona ko bafite ibyo bitabiriye. Ni byiza ko rero nawe wajya wagera ukabasha kwiga ku kibazo runaka.

Uyu musore urabona ko ari mugufi ariko baramusumba, yego bombi bambaye amakote inyuma yaho hari za mudasobwa ndetse n'intebe zo kwicaraho. Nkurikije ukuntu mpabona ngewe ni mu ishuri runaka bigisha ibintu bitandukanye.

Aya makaro ashashe hano ari mu bwoko butandukanye ni ay'ibicebice hamwe ubona ko hagiye hasenyaguritse, hari igipangu k'icyatsi, hakurya yaho hari intebe abantu baza bakinjiramo baba bakoresha ikoranabuhanga ubundi bagataha ariko bishyura makeye.

Jya wigirira ikizere niba warize uge gushaka akazi ahantu runaka kuko ntawumenya aho bwira ageze rero iki ni ikirango kiba kerekana ko ahantu bashaka abantu ranaka bazajya babafasha imirimo bakabahemba ku kwezi kugira ngo na bo bitunge.

Ako ubu byaroroshye mbere wasangaga buri modoka ifite umuntu ugenda wishyuza, ariko ubu ngubu uba ufite ikarita yawe ukagenda ugashyiraho amafaranga ugakoza ku cyuma, ndetse ukigira mu modoka zimwe zitwara abantu mu buryo bwa rusange bakagenda, wagera iyo ugera ukavamo. Rero hano bari kudushishikariza kubanza kumenya niba tuyafiteho

Igipangu ubonako gisa icyatsi ahantu hari utuzamuko turiho ibyuma, amabuye ariko ahita arangirira imbere ku muhanda w'igitaka hariho ikirango rwose cyanditseho irembo. Hano urahaze rero bakagufotora, cyangwa se bakagusabira ibyangombwa ukeneye.

Umunara ni ikintu gikomeye cyane tujye tuwubungabunga igihe biri ngombwa. Kubera ko utuma tuba twakuvugana n'abantu bo hanze cyangwa se ab'inaha mu gihugu, tutabasha kugera ako kanya. Ni ibintu byoroshye rero nawe ugomba kuwureberera cyangwa ukawurinda abawangiriza.

Nyamara iyo bavuze irembo na byikorere jya uhita wumva ko ubungubu utagikwiye kujya gutanga amafaranga kuri babantu bakora ibingibi bakakwaka andi reka reka, nawe rero wajyaho ukaka ibyangombwa ushaka bakabigufasha.

Umuntu ubuturiye abona byinshi bitandukanye: Abarwana, abakora iki. Ariko ntabwo bivuze ko bari kwicururiza, Utabura gukora akazi kawe neza. Hano rero, hari abana bari kuva ku ishuri, ubona ko bari kwiruka mumirongo y’umweru iciye hagati. ubona ko ariyo Abanyamaguru bambukiraho. ndetse, n'ubucuruzi buri ku mpande.

Umusore wambaye umupira ndetse nundi wambaye Umwenda w'akazi uriho utugarura rumuri tw'icyatsi bisanaho arimo aragira icyo amwereka naho uyu mwari nawe rero wambaye umupira w'umweru ari kure y'ikoranabuhanga ndetse hakurya hari umunyeshuri ubona ko nawe ahestse igikapu.

Hano rero bakora ibintu bitandukanye ushobora kuza nkurikije ibyo ndi kuhabona, bakagufotorera ifoto yawe cyangwa urupapuro rukavamo ebyiri, iriya mashini y'umweru nibyo ikora, munsi urabona hari aho banaga imyanda, hakurya hari umusore uri kuri mudasobwa wambaye ingofero, nawe rero wahagera ukabaza ibyo ikeneye.

Buriya mu mugi ni ahantu ushobora guhurira n'abantu benshi, urubyiruko, abasore, abasaza ndetse n'inkumi. Hano harimo amatafari, utuntu duteyemo ibiti, aho kwicara heza nk'uko ubibona harimo abantu bicaye, amataje ari imbere, ikirere cyiza cyane kirimo ubururu bwinshi n'uducu ducye tw'umweru.

Ahantu hasa neza cyane ni byiza kuko hakunda kuza n'abasirimu, abantu bambaye neza nyine bakaza kuhatemberanira hamwe n'abakunzi babo bakahifotoreza, utu ni uduti tuhateye ubona ko dufite akayaga, amabuye meza cyane, ikirere cy'ubururu, inzu ndende rwose ubona ko ishimishije kuyireba nawe wahaza rero ukirebera.

Gushaka ibyemezo runaka byaradutabaye cyane. Nk'iyo twabaga turi gushaka iby'ivuka, iby'ishingirwa, iby'uko tutakatiwe n'inkiko, byaratugoraga bikadusaba kwirukanka dusiragira. Ariko ubungubu leta yarabyoroheje, ishyiraho urubuga twese dushobora kujya kubikuraho, hariho n'amakuru yacu rwose.

Umunara ni ikintu kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, kwaba guhamagara mu ntara, koherezayo amafaranga, kubitsa, kubikuza, ibi byose bituma tuwukenera. Urabona ko ufite ibyuma by'icyatsi n'ibindi bintu biwufasha kuba wakohereza imiyoboro ahantu runaka.

niba uziko uturiye umunara nibyiza jya uwubungabunga uwurinde ibintu bishobora kuwangiza kuko ningirakamaro niwo utuma uvugana n'iwanyu igihe bari mu ntara cyangwa se ukabasha kumenya amakuru agezweho kubera ko batuzanira imiyoboro itandukanye bikabasha no gukora ibindi gusa ntabwo twibagiwe ko abantu baba bawutuye hafi bo ntago bakunda kubona itumanaho

Kubungabunga umunara koko ni ingenzi cyane. Uradufasha kumenya hirya no hino amakuru yahiriwe cyangwa ibintu biri kuvugirwa ahantu runaka. Rero hano hari insinga zambutsa n'umuriro, ibiti, hafi hari n'amazu ubona ko aturiye uwo ndi kuvuga.

Ni byiza ko nawe wajya uza ahantu runaka bakagufotora kuko ntago wabyikorera ngo ndetse nayo uyisohorere. Urugero niba bagusabye amagufi uri bujyane ku mpapuro zawe ntago wayabona, uza hano rero bakagufasha ni ko kazi kabo.

Nibyiza ko nawe wajya utanga inyemeza byishyu, hari imashini za bugenewe mu Rwanda batanga cyangwa ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Rero ubu ni uburyo bukwigisha, ukuntu wayikoresha ukajya utanga inyemeza byishyu ku bantu baje ku kugurira igikoresho runtaka.

Utegetswe kuba amabati yawe ataba afite umwanda rwose, hano nk'uko ubibona nawe yaragerageje, hakurya urahabona inzu ya etaje iriho iminara ndetse n'insinga ziri kwambutsa umuriro ziwujyana ahantu runaka, ikirere urabona nawe ukuntu kimeze gisa n'igikeye ukuntu.

Abari bihangiye imirimo barabavumbuye ntago bagitegereza abagabo ngo nibo bazabatunga barahagurutse barakora uyu nawe afite aka kamashini nibyo yagerageje rero urabonako bisa naho afite ibintu acuruza kandi yahaye uno mukecuru yishimye.

Uyu mwana rwose w'umukobwa urabona ko yubatse ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, mudasobwa ye ari kuyihuza na terefone ngo abashe kureba amakuru agize ibyo arimo arakora. Ni byiza ko nawe rero wakigirira ikizera ukavuga ngo ndashoboye.

Ku bantu bose baturiye umunara bazi akamaro kawo, ariko bitavuzeko abari munsi yawo batajya babona imirongo cyangwa itumanaho kubera guhamagara bicikagurika, ahubwo ugahereza abantu bo hakurya. Rero ugomba kuwubungabunga niba uwubonye hafi nkuko hano ubona hateye ibigori ndetse n'ibiti.

Ahantu hakeye ni heza rwose hatuma n'abantu bavuga ati ibindi bikorwa remezo by'igihugu kandi ntacyo kitadukoreye, hano nk'uko uhabona rero ni mu mujyi rwagati bitewe n'inzu, uhabona ikirere cyiza rwose kirimo umweru ndavuga ibicu ndetse n'utundi tuntu dutaste umuhanda.

Yewe, iyi minara ni ingenzi kuko tubasha kuvugana no mu rugo igihe bari kure cyangwa se tukaboherereza amafaranga akabageraho bakaba banayabikuza bakafata mu ntoki cyangwa bagahaha bakishyura inzu n'ibindi, aba rero ubona nibyo barigukora barikuyikosora banayimanika.

Neza hano hantu byashoboka ko ari mu ishuri, kuko ibikapu biri hasi ndetse n'uducupa tw'amazi, intebe bicayeho mudasobwa nyinshi cyane, amatara aracanye, inyuma hari inzugi z'ibirahuri, ubona ko imbere hari n'undi uri kugenda ababaza ibibazo bigiye bitandukanye.

Rero abo umugi wose ni ngombwa kugira ahantu bita urugomero bakusanyiriza umuriro nyine bakaba heza, rero nahano niho, hano harimo insinga nyinshi ndetse n'ibindi bimashini byongera imbaraga zabo kugira ngo ugere ku baturage uri mwinshi.

Ni byiza ko nawe ugomba kugira urupangu rukoze neza ku buryo abarutambutseho babona ko runakeye. Hari ibiti, hari utwatsi mu muhanda ndetse hakurya urahabona n'andi mazu menshi cyane bigaragara ko ahangaha hitegeye umugi rwose wahareba nawe ukahaba.

Buriya kubaka inzu ni byiza, ugashyiraho n'amatara abonesha, ariko iri ririho nkurikije ukuntu ndizi, hari igihe rikora akazi nk'akumurindankuba, hasi urabona hari amadirishya ariho n'ibirahure afunguye rwose akomeye ubona ko anahenze, ndetse n'irange ryiza riteye hano.

Hari amopoto y'amashanyarazi rwose ubona ko ajya kuri buri rugo kugira ngo babashe kuba bawubona ndetse nino ku gipangu giteye indabyo nyinshi cyane, amabati hejuru inzu iteye amarangi y'umuhondo, inyuma hari ibindi ndetse n'insina, ibigega mu imbere bizanamo amazi.

Irasumweru ndetse nkuko ubibona ibirahure bimwe birafunguye ibindi birafunze itwara abantu muburyo bwa rusange nabwo bwimodoka iri kumanuka, hirya urahabona ahantu hateranyirije insinga z'amashanyarazi zambutsa ziyajyana murugo runaka.

Abamotari ni bamwe mu bantu bagira amafaranga i ariko nabo bakagira ibyago byinshi byo gupfa vuba nk'ibyo hano naho birimo, yambaye ingofero imurinda ibyago umwenda w'akazi ahetse umukobwa, inyuma ye hari undi ndetse nabo bafite ibintu barangariye tutazi hakurya urahabona imodoka iri kumanuka.

Iyi rero ni imashini ishobora kuzamura umuriro igihe ubaye mukeya mu gace, ikawugabanya igihe ubaye mwinshi, kugira ngo utangiza ibintu. Bayishyira ahantu rero hadatambuka abantu benshi, kugira ngo hatazagira uhapfira.

Ipoto z'amashanyarazi ubona ko riziritseho itara rimurika ni joro igihe bwije. Munsi ya ho hari umumotari, umunyonzi uri kwitambukira, imodoka na yo iri kumanuka, iyindi nini iri gupakira ndetse n'ibiti ubona ko bizana akayaga.

Ku muhanda ni ngombwa kuba wahahagarara ugategereza imodoka kugira ngo ize igutware, hari ibiti urahabona hari icyapa ndetse byarakingirijwe, ipoto ry'amashanyarazi, hari umubyeyi ufite imifuka, ibase ndetse n'igikarito, ahetse n'igikapu, bisa naho na we ategereje ikiza kumutwara ngo kimuvane hamwe kimujyana ahandi.

Amapoto y'amashanyarazi ni meza cyane kuko atuma umuriro tukabasha kogosha ngo turye, tukabasha gusudira inzugi n'amadirishya abantu bakubaka amazu ndetse tugakora ibindi bintu bitandukanye, aya rero nayo namwe mu bidufasha kugira ngo agere kuri buri muturage igicu cyiza kirimo ubururu bucyeya ndetse n'umweru.

Gutunga inzu nibyiza byagufasha, kuko igihe umuriro uje ari mwinshi twahita twikupa cyangwa se hari ikintu kigiye gushya bikagenda uko. Rero twagufasha, twakurinda byinshi ahubwo aho kugirango ubihombe wagura kano kuko ari akamake.

Iri poto ryiza cyane urabona ko riteye mu murima ahantu hari ibiti rwose bigishibuka biri gukura, hakurya hari ibindi byabaye ibisore urabibona hakurya ko hari n'amazu meza insinga ziri kwambukiranya zigenda mu ngo runaka.

Ibiti byiza cyane, ese waru uzi akamaro k'ibiti? cyangwa ntago uzi impamvu leta ivuga ngo tema kimwe utere bibiri? Bituzanira imvura, biduha akayaga, bitangira ubutaka n'amazi rero birinda ibintu byinshi, nk'uko ubibona rero ugomba kubikurikirana nawe ukareba niba wabikosora amakosa ukora hari n'amapoto y'amashanyarazi rwose.

Hano ni kumuhanda ikibiranga niki? Niri poto ninsinga z'amashanyarazi ziri kwambuka zinyura mubiti iri tara rimurika nijoro igihe bwije ndetse niriya taje ubona ko iberankwe n'ubucuruzi urebye no hanze rwose urahari.

Iki cyuma rero gifasha abantu runaka kuba bakongera umuriro cyangwa bakawugabanya igihe uje mwinshi, ni byiza ko buri gace rero kagomba kuba kagifite kuko kidahari ntabwo bamwe bacana rwose ubona ko kiri ahantu umuntu wese atapfa kugira ngo kimwangirize kuko uhegereye wapfa.

Izi rero n'insinga cyangwa se amapoto afasha abantu kuba imiriro yabageraho muburyo bworoshye, hakurya urahabona insinga zicicikanamo, umunara uhagaze hejuru utanga itumanaho bitewe n'ahantu uri.

Hano rero ni mumuhanda ariko imodoka bisa nkaho nayo ariho ihagaze irimo gukata, hakurya urahabona imirongo y'umweru yambukiramo abanyamaguru abandi bari kwinjira bajya mukigo runaka ubona ko giparitsemo imodoka nyinshi cyane.

Ahantu heza cyane ubona ko aha ntacyondo wahura nacyo indabo utuyira tunyuramo amazi ku ruhande, hakurya hari ahantu hari ikirango kiriho ijisho ubwo bigaragara ko ari naho bayavurira nkurikije intebe ziri hakurya hano ni kwa muganga.

Urabona ko hari udusima twiza cyane indabo ziteye ku mpande utwatsi dukorotirijwe n'uturabyo twiza tw'umuhondo, hari abari bambaye imyenda y'imyeru bari gukurura utuntu wagira ngo ni amajagi bisa naho hano ari kwa muganga nkurikije ukuntu mbibona.

Ubundi ukibona imbangukiragutabara, ujye umenya ko aho ihagaze ari kwa muganga. Rero hari ahantu hashashe amabuye, abasore benshi ndetse n'abagabo bari gutambuka basa n'abari kuganira, hari n'ibiti byiza cyane.

Utwatsi twiza cyane ubona ko tutari twinshi ndetse atari na dukeya, iyi ndobo bashyiramo imyanda, hasi hari indi nkuko ubibona iri mu mashashi inzu zubakishije amatafari ahiye nziza cyane ziriho n'amadirishya hakurya hariho n'ibiti tubona ko ari ibintu byiza.

Hano rero hashashe amabuye meza cyane nta cyondo cyahava cyangwa ngo bitume imodoka inyerera, iriya ubona ni imbangukiragutabara rero ijyana abarwayi cyangwa itabara aho rwakomeye ikabavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, inzu nziza cyane ubona ko iteye ahantu hari ikigega imbere yaho hari ibigori byinshi hakurya hariyo andi mazu.

Ibi ni ibikuta by'amabuye rwose, ubona ko biriho sima hejuru kugirango nibinyagirwa bitazajyamo amazi bigasenyuka. Hashinze ipoto ry'umweru, ibiti hirya biri mu twatsi tuhateye ndetse n'indabyo. Hakurya urahabona inzu nini cyane ifite amabati meza y'umutuku bisa nkaho ari ibitaro.

Hari ibikorwaremezo bidufasha mu buzima bwa buri munsi kandi biba byarubatswe na leta urugero nk'amavuriro, amashuri, ibigo by'imari n'ibindi kandi bitewe n'umusoro wawe nakugira inama rero yo kujya uwutanga, hano rero hari amabuye meza cyane ashashe ntacyondo wahabona utuyira tuyobora amazi kujya ahabugenewe nkurikije ukuntu mpabona hano ni mubitaro.

Kurahira ni ingenzi, perezida wa repubulika y'u Rwanda Poro Kagame, ari hagati y'abagabo bambaye imyenda y'imituku, ndetse inyuma hari abandi bambaye iy'imikara n'iy'umweru, ariko ngarutse kuri aba bari imbere bashinzwe kurahiza abakuru b'ibihugu, hakurya hari undi mugore nawe wambaye umukenyero.

Uyu ni umupapa ubona ko asa n'ukuze rwose ku isura. Ntamusatsi yarawogoshe ndetse n'ubwanwa amaraho, agashati ke na karuvati y'umukara yambaye afunze arenzaho imyenda y'imituku ndetse n'umukara yambarwa n'abantu barengera abandi cyangwa se bunganira abandi mu mategeko.

Hari igihe kigera ugakora ibyaho iyo ibihano byawe birangiye ubwo nyine urataha ugasanga umuryango wawe cyangwa abo wasize, hano rero urahabona abacungagereza babiri n'undi mugabo umwe uri gusohoka uhetse igikapu sinzi iyo avuye, sinzi iyo agiye, zinzi n'icyo yaziraga.

Uyu mubyeyi ukuntu mureba yashiritse ubute n'ubwoba mbona ko nta ntaniikintu rwose cyamuhabura imiringa ku matwi no mu ijosi, hari ikote ry'ubururu, isaha ndetse n'ikaramu mu ntoki, imbere hari amakayi menshi ikirahure cyubits jI cyangwa amazi arahitamo icyawa kugira ngo icyaka gishire.

Abantu benshi ubonako bose bambaye imyenda isa imikara n'imyeru, intebe zabo zigiye ziriho amakayi n'amakaramu, uducupa tw'amazi bari kunywa amaterefone bayarambitse aho ngaho , bari kumva ikiri kuvugirwa muriy'inzu rwose, irimo amatara meza acyeye.

Uyu musore ubona wambaye udukoma rwose tumwe bambika abanyabyaha, yambaye akagofero, ikanzu, ari hagati y'ibisore bibiri by'inkorokoro bikorera inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, rero bari bagiye kumushyikiriza mu gihugu ke kugira ngo age kure cyane yari yarahungiye inaha mu Rwanda.

Aba Bitabirira inama runaka iyo ufite inshingano ushinzwe, n'abagore baratinyutse rwose baravuga ngo turashoboye reka tubyinjiremo. Rero ni benshi, urabona bamwe bambaye imyenda myiza cyane. imbere yabo hari ibirahuri byubitse, amazi yo kunywa igihr icyaka kibishe.

Umugabo ubonako asa n' ukuze, mu ngofero nziza cyane yiwe, umukara we, ndetse n'utundi twa duciyemo. Yambaye imyenda myiza cyane rero y'imituku, ndetse urabona ko hariyo abantu barenganura abarenganye, cyangwa se barengera abandi mategeko.

Abantu bakoze amabi kera baje kubura gica hazaho ikitwa inkiko gacaca nizo zakemuraga ibibazo runaka zikunga abaturage ndetse zikanabagira inama y'ukuntu bagomba kwitwara, ibyo rero turashimira leta nziza yabizanye.

Gukora amakosa, kwiba, kurwana, gutukana ndetse n'ibindi byinshi wabizira ukagenda ukabihanirwa rwose, si ibyo gusa hari n'ahabugenewe bajyanamo abo bantu bakagororwa bakagaruka barabaye bazima. Aha rero nk'uko ubibona bariya nabo bambaye imyenda isa n'umucungagereza n'abafungiye aho ngaho nyine.

Mu rukiko hakora ibimenyetso ntabwo hakora amarangamutima rero nawe nk'uko ubibona uyunguyu wambaye imyenda isa ukuntu uyu ni umweru wererutse afite ibyo ashinjwa, umuri impande ni umwunganira mu mategeko asa n'aho ari kwinjiza mu ikoranabuhanga amakuru yiwe ayashyiramo, imbere hari aho bakarabira ndetse n'uducupa tw'amazi.

Kuba wajya ahantu runaka ugakora amakosa, uba ugomba kubihanirwa ukajya mu nkiko ukaburana waba urengana bakakurenganurwa, gusa nyine ahongaho ukenera ukuburanira mu mategeko. Hano rero ni mu rukiko ubona bambaye amakanzu, niko kazi kabo.

Hari ahantu hajyanwa abanyabyaha bakajya kureba niba niba barenganurwa cyangwa barengana hano rero nkurikije amakanze bambaye ni abarengera abandi mu mategeko ni umugore umwe n'abagabo babiri imbere hari amakayi n'amakaramu ndetse n'uducupa tw'amazi baba barikwifashisha bankwa igihe bagize icyaka.

Rero tujye ducunga amagambo tuvuga n'ibyo dukora kuko ntago wamenya ahantu uri, kandi baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe, sinavuga ngo nseke uyunguyu nawe ntago ari byiza. Nakugira inama y'uko ugomba kumenya ibyo uvuga ndetse ugacunga n'umunwa wawe, cyane k'uyunguyu aribyo azira ubona ko harikirimo polisi.

Muri iyi iyo ukoze ibyaha urabihanirwa bavuga amagambo mabi ukabizira wakora na ugahembwa nabi rero ni byiza ko twajya ducunga ibyo tuvuga cyangwa se nibyo dukora uyu mugore rero nawe wabona ari kumwe mumaboko y'abashinzwe umutekano hakurya hari umwunganira mu mategeko inyuma hari n'undi rwose ubwo afite ibyo yakoze bitari byiza agiye kuryozwa.

Hano rero nkurikije ukuntu mpabona, abicaye imbere n'abantu b'abacamanza bakuru bambaye imyenda y'umutuku imbere yabo hari amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, abandi bicaye hano bambaye iy'umukara n'abaje kwinjira mu mwuga wabyo kugirango bizabahire.

Iyi modoka rero ubona inyuma y'amabara y'umweru n'ubururu itwarwamo abantu bakekwaho ibyaha cyangwa babikoze bakajyanwa mu nkiko cyangwa muri gereza nyine bagafungwa bagahanirwa ibyo bakoze, ari hagati rero y'abapolisi babiri undi inyuma bisa n'aho rwose bari bamujyanye.

Abakoze ibyaha barafunzwe barimo barabiryozwa, igihe nikigera rero bamaze kugororwa neza bazataha, rero jya witwararika neza nawe utazabasanga hano.

Abantu bigize nabi bakigira intakoreka, birimo kwiba, gukubita abantu, kubambura, bafite aho bafungirwa bakagororwa bagataha barabaye abantu bazima. Aha rero ni muri gereza aho ugerayo bakaguhereza ikirwa rwose ukavayo warabaye umwana.

Haba kwa muganga, ibitaro, amashuri ndetse n'ahandi hantu hahuje abantu benshi byaba byiza mubaye mugira iki kizimya umuriro kuko kirafasha cyane igihe insinga wenda zikoranyeho bigateza inkongi ushobora kukifashisha.

Ibitaro, ibigo by'imari, iby'abihaye Imana, iby'amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye, mugomba kugira icupa ry'umutuku nk'uko mu bibona rwose, ibi ngibi bigufasha kuzimya umuriro, igihe ahawe hafashwe n'inkongi runaka.

Kuba wagera kuri polisi ukajya kwirega cyangwa se wakoze ibyaha, waba ufitanye ikibazo n'umuntu ubona kiribukemurwe n'inzego z'umutekano, ni byiza Kuko zirakora kandi zikora neza ntawe zirengera. Rero icyo kirango nukibona uzahite umenya ko hafi aho ngaho ari ho ugiye rwose.

Ni byiza ko iyo ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, bitabaza abantu bakagufasha kuwuzimya. Bano ni abagabo batatu rero ubona ko bafite umupira w'amazi urikuwusohora menshi cyane, bisa naho bari kuzimya ikintu runaka, cyangwa bari ku cyoza.

Kuba ufite ivuriro, kuba ari ikigo cy'amashuri, cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu benshi n'insengero ye. Ni ngombwa ko waba ufite iki kintu kizimya. Iri cupa rwosse ubona risa umutuku, iyo haje inkongi, uraryifashisha bikaba bitatuma hashya.

Akazi ko kuba watwara karagabura ariko none biterwa iyo igikoresho ari icyawe urumva wisumburo ariko atari icyawe uhura n'ibibazo bikomeye cyane bano rero ni benshi banambaye n'ingofero ndetse zibarinde ibyago igihe bakoze impanuka imbere hari inzego z'umutekano ziri kubayobora uko bagomba kwitwara

Ibigo by'amashuri ni ngomba kuba bagira biraya bintu bizimya umuriro igihe habaye inkongi, hano rero urahabona abambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki rwose ibintu bisa ubwo ku babibonye ni abanyeshuri bari kumwe n'abayobozi babo ndetse n'inzego z'umutekano, nk'uko mbibona hateretse bya bicupa rwose bifasha kugira ngo bazimye umuriro igihe ubaye mwinshi, utangiza inyubako zabo.

Hano rero harakeye nkurikije ukuntu mpabona haba ari nko muri hoteri runaka, ariko bafite bya bintu birinda umuriro urabibona icy'umutuku ndetse n'icyumweru. Hakurya hari udutara twaka, igikombe kiri ku birango, rwose urabona ko uhazanye umukunzi wawe atakunyuzamo ijisho

Moto ebyiri ziri mu muhanda zihetse abagenzi iy'inyuma itwaye umugabo ufite igikarito mu ntoki. Iy'imbere ifite utwaye igikapu mu mugongo ku ruhande yateye ubusitani n'imikindo.

Hano rero nkurikije uko mpabona ni munsi y'igiti, hari igicucu izuba riri kuva, ariko hari umusore wambaye imyenda ijya gusa umukara, hariho utugarurarumuri tw'icyatsi, ubona ko ari kujyana amazi runaka ahantu ari koza rwose.

Iyi rero ni imodoka y'umukara rwose yo mu bwoko bwa Toyota, hakurya hari indi itwara imizigo bisa n'aho bari baje kuri polisi cyangwa se inzego z'umutekano, hakurya urahabona abantu rero wagira ngo bafitanye ibibazo baribaje baje kureba niba bikemukira hamwe.

Uyu rero ni umugozi wifashisha igihe ahantu hafashwe n'inkongi ari kure rero urakweduka bakawugira muremure ukabasha kuhagera rwose ukazana amazi cyangwa se ibindi bintu ukabasha kuba wazimya umuriro.

Aya mabuye ubona ashashe imbere rwose arahenze ni abifite gusa nibo bayahashyira, ni igipangu ubona ko cyubatse neza ariko nkurukije ukuntu mpabona hano ni ahantu hiyubashye hakorera inzego z'umutekano bitwe n'imodoka ndi kuhabona rwose za polisi.

Uyu rero na we yigeze kugerageza guhatanira perezida wa repubulika w'u Rwanda nk'uko ubona ari hagati, mikoro imbere ye arimo aravuga imigabo n'imigambi yiwe, abasore b'inkorokoro babiri bamuri impande inyuma ye urabona abandi bicaye ariko ntibyamuhiriye bisaba ko yongera kugerageza ubutaha kureba ko yatsinda na we.

Ntawe ubura abamuri inyuma. Uyu nawe ubona ko yari ari kwiyamamariza kuba yatorwa igihugu cy' u Rwanda ariko ntibyamuhiriye ibirango nyine bigaragara mu mabara y'umuhondo umweru ndetse n'icyatsi nk'uko ubona n'aba bambaye rwose ino mipira, hakurya we yambaye uw'umweru bisa naho ari kubaganiriza banamwishimiye.

Mu Rwanda tugira amashyaka menshi. Rimwe rirazwi, irindi ntirizwi ariko harimo ayakoze amateka. Urugero nk'iyi Efuperi inkotanyi, irangwa n'amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu. Aba rero ni abantu bayikunda kubi bayiri inyuma nk'uko iyobowe na perezida wa repubulika Paul Kagame, akaba ari na we muyobozi mukuru w'igihugu. Hano rero yari ari gusuhuza abaturage be.

Uyu mu papa urabona ko asa nukuze rwose imyaka yamujyanye ntamusatsi afite ubwanwa yakuyeho kugashati keza k'umweru na karuvate bisa nkaho afite amateka yakoze meza akaba yarabereye intangarugero abandi rwose.

Uyu mugabo ubona arimo araganiriza abaturage ababwira icyo afite kuzakora kugira ngo igihugu ke gitere imbere. Yagerageje kuba yakiyamamariza kuba umukuru w'igihugu n'ubwo bitamuhiriye agatsindwa ariko ntazacike intege nicyo namubwira.

Ishyaka rya efuperi inkotanyi ni ryo ryatsinze amatora, ribasha kuyoborwa n'umukuru w'igihugu Paul Kagame kandi ubona ko rifite imbaraga ndetse na gahunda, rero hano ni abari kuryamamaza, ni ku gipfunsi biriya bafite hejuru, amashati y'umweru meza cyane akeye, harimo urubyiruko n'inkumi.

Uyu mubyeyi uramubona umusatsi we yarawuhagaritse rwose imiringa kumatwi agakote keza k'umuhondo ndetse n'agashati mo imbere k'umukara, yicaye kuntebe nziza n'imisego hirya ye hari idarapo ry'urwanda ndetse n'ikirangantego cyarwo.

Uyu mubyeyi nawe rero ubonako afite ibibazo runaka ari kubaza, yambaye imiringa kumatwi imisatsi iraboshye, imyenda y'ubururu uducupa tw'amazi imbere ye kugirango naza kugira icyaka aze kunywa, mikoro ituma abo ari kubwira bumva rwose n'abandi bari inyuma ye.

Uyu rwose ni umupapa ubona ko afite icyubahiro ukurikije ukuntu yicaye mu kinyabupfura, umusatsi yarawogoshe ubwanwa aragabanya, ikote ryiza cyane karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru impande ye hari idarapo ry'ubururu, ndetse umuhondo, icyatsi bigaraga ko ari iry' u Rwanda.

Aba rero ni inkumi ndetse n'abasore babarirwa mu ishyaka rya efuperi inkotanyi rirangwa ni amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru aha yambaye n'imipira yayo hariho igipfunsi rero riyobowe na perezida Paul Kagame mu Rwanda rwose ubona ko ari n'intwari yakoze ibintu byinshi.

Ubaye wifitiye ikizere nawe wajya ugerageza amahirwe yo kuba wayobora igihugu, urugero nk'uyu nguyu nawe yarabigerageje ariko nubwo bitakunze twamwizeza ko ubutaha yazabikora wenda byazacamo yatsinzwe na perezida wa repuburika y'u Rwanda Paul Kagame.

iri ni ishyaka rero rikorera hano mu rwanda ryitwa fpr inkotanyi rirangwa mu mabara y'ubururu umweru ndetse n'umutuku nkuko bibona rwose ababyeyi imipira bambaye ndetse n'abasore biriho bari gucinya umugara rwose ubona ko bishimiye ko ubayoboye azatsinda hano bari bari kwamamaza perezida paul kagame

Ababyeyi rwose ndetse n'abasore bari kwamamaza umwe mu bagerageje kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu nubwo bitamukundiye, ariko wenda tumwijeje ko ubutaha byazakunda bitewe nibyo tuzaba tubona atwizeza ko azagezaho.

Nawe wigiriye ikiizere kwiyamamariza kuyobora igihugu byagerageza ariko bisaba amafaranga menshi, uyu nawe rero yarabigerageje ariko ntibyamuhikiye, afite telefoni arimo arafotora, urabona ko yari yicaye nko muri ahantu mu nama runaka, inyuma ya hari uducupa tw'amazi ndetse n'abandi benshi.

Buriya kuba wakwigirira ikizere ukiyamamaza no gutorwa ni ibintu bibiri bitandukanye, mu makote meza mikoro imbere ye n'urupapuro ari gusomaho imigabo n'imigambi ye, inyumaye hari abadamu bamushyigikiye n'abasore b'inkorokoro, bamuri iruhande, uyu rero nawe yarabigeragree, ariko ntibyamuhiriye kuba yayobora u Rwanda.

Kuba wagerageza kwiyamamaza ni kimwe ariko no gutorwa ni ikindi. Rero nakugira inama yuko nawe niba wifiteye ikizere, ubashije wazabigerageza ukareba ko byagukundira, kuko birafasha cyane uyu na we yarabigerageje ariko byaranze.

Inzu y'ubucuruzi bugezweho, irimo akabati gasa umweru gafite ububiko bugera kuri butanu bugiye butandukanye, buri bubiko bukaba burimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye

Iri n'ishyaka FPR inkotanyi, riba inaha mu Rwanda, ubonako rirangwa n'amabara y'umeru n'ubururu, umutuku. Riyobowe na perezida Paul Kagame, ndetse akaba ari nawe mukuru w'igihugu ukiyoboye cy'u Rwanda. Nibyiza ko nawe wariyoboka rero, ryakoze byinshi

Hari igihugu cyiza cyane ubona ko gifite imbaraga n'intumbero y'ibyo kizageraho kiyobowe na kizigenza witwa perezida Polo Kagame w' u Rwanda uyu ureba aha ngaha rwose, mu gashati ke k'umweru ndetse hariho n'amagambo y'ingofero y'umutuku ku gipfunsi kiwe ubundi abamutoye nibo bazi ibyiza bye.

Iyo uri perezida w'igihugu ni ngombwa ngo urahire ,uyu mugabo w'amakanzu'umutuku niwe ubibakoresha ugomba kuvuga amagambo n'imigambi yawe, hanyuma ukarahira ko ugomba kwibagezaho ntukubona perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame niba ndeba neza wambaye imishataro na madamu we jeannette kagame bari ahantu hateraniye imbaga nyamwinshi basa n'aho agiye gukora ibyo navuze.

Duhereye hakurya turabona imodoko bari gupakira imifuka y'umuhondo abantu bayiri hejuru, twagaruka hari ibiti bihateye ndetse n'igitambaro cy'icyatsi kihakorotiriye, abantu bari kumanuka ndetse n'abamotari bari kubisikana n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange.

Ni byiza ko nawe wajya uva ahantu hamwe ujya ahandi ugiye mu modoka, nk'uko uyibona itwara abantu mu buryo bwa rusange, gusa irimo umuyobozi wayo gusa imbere hari umunyonzi ubona ko nawe abafite aho yerekeje, hakurya hari ibitambaro bizitiye ahantu ubona ko hari izindi nyinshi bari gupakiramo imifuka y'umuhondo.

Ubundi ntago ari ngombwa kuba bafata imodoka yawe ngo uyipakinge imizigo idashoboye gutwara ahongaho uba uri kuyica, kuko hari izabugenewe nk'izo ubona z'umweru rwose ziriho ibintu by'ubururu bitwikiriye kugira ngo ibyo zihetse bitangirika, ni nziza ubona ko zitwara n'ibintu byinshi cyane, hari akandi k'umukara kari hagati ndetse n'abagore bari gutambuka.

Akenshi usanga imodoka ziva mu mahanga cyangwa se Tanzaniya, Uganda zizanye ibicuruzwa ziba zifite ibintu inyuma bimeze ukonguku, nk'iyingiyi n'ubundi iri kumanuka, ubona impande yayo hari gutambuka umunyegare rwoseuhetse agafuka inyuma, hakurya hari ibiti nabyo ubona ko bimeze neza.

Ni byiza ko nawe wajya witemberera mu modoka runaka ariko wayikodesheje cyangwa se wasabye umuntu gutwara, zino rero zikorwa n'uruganda rwa vogisi vageni rukorera inaha mu Rwanda, ndetse ifite abakozi baho rero ukanda kuri apurikasiyo zawe, ukabatumiza iwawe bagahita baza bakagutwara.

Imodoka nziza rwose ubona ko irimo shitingi mo imbere impande ye hari umusore uri gutambuka wambaye ishati y'ubururu, hakurya hari ebyiri zitwara abantu mu buryo bwa rusange zishoreranye banarimo ndetse hirya hari ibiti bitandukanye ubona ko bibazanira akayaga.

Buriya kwiga gutwara ikinyabiziga ni ibintu bishobora kugutunga igihe kinini cyane, kandi ni ikintu gishobora kukubakira izina cyangwa se ibindi bintu runaka ufitemo ubushobozi, iyi rero ni imwe mu modoka bifashisha bagenda mu muhanda nyine bakwigisha.

Ni byiza ko nta wajya utega imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, kuko biragufasha cyane bituma udasesengura amafaranga, ndetse n'umushahara uhembwa agahura n'ukwezi, wakuyemo ibyo kurya, biterwa ariko na gahunda ufite, tuvuge niba utegesha magana atanu, ugomba kuyabara ukamenya ayo izakoresha uko kwezi, rero zino ni zo zabikemuye leta yaratworoheje, urazibona hano zirimo gutambuka, mu ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'ibirahure birafunguye.

Ubundi hari moto zageneqe gutwara abantu gusa, umumotari utwara izo ngizo mvuze ntukamwemerere gushyiraho imizigo cyangwa se ibindi bintu, izi nizo zabugenewe, iyo rero uri kubona itwikiriye iri kubisikana n'akamodoka ko mu ibara ry'ubururu.

Ku muhanda haberamo ibintu byinshi arikonanone uw'ibyerekezo bibiri, ntabwo ukunda guteza impanuka nyinshi nk'uwo mu cyertekezo kimwe, hano harimo umumotari utwaye umugenzi bombi bambaye ingofero zibarinda impanuka, ubona ko bafite aho bagiye, hakurya urahabona ibiti byiza biteyeho, bituma hasa neza.

Ubundi modoka ni ikintu gishobora kuba cyakorera amafaranga ariko nacyo kigatwara byinshi. nk'uko ubizi iyo ipfuye cyangwa se kunywesha byonyine usanga bihagarara akayabo. Iyi rero nayo ubona ko itwara imizigo irimo ibintu biyitwikiramo imbere, harimo n'umugabo umubyeyi impande ari gutambuka ahetse agakapu hakurya hari n'umumotari watwaye umuntu.

Buriya umuntu ajya gukora ikintu yarabanje kukigenera icyo kizakora. Iyi moto iri inyuma y'ubururu ubona ishinzwe gutwara imizigo ntakindi, iriya modoka iri imbere nayo ishinzwe gutwara imicanga, amabuye ndetse n'amatafari.

Hano rero ni mumuhanda umumotari yambaye kamambiri ndetse ubona ko ahagaze yamabye ingofero zimurinda ibyago, undi ari kumanuka agana ahantu hari imodoka hirya hari urupangu rw'umweru ubona ko rukeye.

Izi rero ni za modoka ziba zava mugihugu kimwe zikajya mukindi, zirakore cyane. Zitwara ibintu biremereye zikabivana Tanzaniya zibizana mu Rwanda. Ni ebyiri ziri kubisikana rero, hano urabona umuferege wanyujijwemo amazi ariho atambuka kubi.

Buriya iyo byanze ukora ikigukundira uyu musore rero nawe afite akagorofani ashyiraho imizigo iremereye akayisunika, kandi ubona ko abona amafaranga. Hakurya hari umumotari uru gutambuka bisa naho agiye gushhaka abagenzi ngo abone icyo arya.

Imodoka nziza ubona ko isa nkikiri nshashya rwose ihetse ibintu biriho ibirango byerekana amavuta, iri kugenda muri kaburimbo rwose inyuma yaho hari akandi gatoya kari kuyiturukaho, hakurya urahabona abagenzi bari kwitambukira.

Imodoka zitwara mu buryo bwa rusange ni bimwe byakemuye ibibazo by'ingendo za hato na hato ndetse z'itwara n'amafaranga menshi mu mujyi wa Kigali .Rero ino ubona y' umweru irimo utubara tw'icyatsi ibirahure bigaragara ko irimo abantu benshi, iri mu bintu bifasha abantu kuva hamwe bajya ahandi mu buryo bwihuse ku mafaranga make.

Niba ufite ukuntu wubaka inzu cyangwa se ushaka kuyizamura mu kibanza runaka nakugira inama yo kujya wifashisha zino modoka cyane cyane zirayitwara rwose zikakuzanira imicanga, amabuye ndetse n'ibindi.

Uhanda w'umukara uri kugendwamo nikimodoka kinini kiririmo ubwoko bwa hoho, gitwara imizigo myinshi ifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru hejuru hari ikiraro.

Aha ni mumuhanda, biba byiza iyo wigiye gutwara ahantu nk'aha ngaha, kakurya ni iy'ibyerekezo bibiri ndetse hari n'imironko y'umweru, igaragaza ko hambukira abanyamaguru, iyi modoka nayo rero ni iyo bihiramo nk'uko ubibona hari uwasohoye akaboko ndetse n'umunyeshuri imbere.

Buriya imodoka abantu mu buryo rusange ni nziza zaradutabaye, hano rero hashashe amabuye hakurya yaho ni imirongo y'umweru ituma abantu bambuka, uhamugongeye kaba kakubayeho ndetse hari naho kwicara igiye izuba rivuye cyangwa imvura iguye.

Iyi rero ni imodoka nziza cyane ubona ko ifite umuryango umwe wo kwinjiriramo ndetse inyuma yicaramo abandi bantu ariko bisaba gusunika intebe ukayunamisha, itwawe n'umukobwa mwiza cyane ubona ko asa naho ari kwiga ukuntu yazajya nawe ajya mu muhanda.

Buriya kuba wajya mu kazi ukajya gushaka imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ni ibintu bituma udasesagura amafaranga ujya gutega amamoto. Izi rero urazibona ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, niko kazi kazo ni nyinshi rero urabona ko zinatonze umurongo rwose.

Hari umusore umwe rwose ubonako yambaye ikabutura, undi yambaye ipantaro ahetse igikapu, imbere yabo hari umukobwa uri kwigendera, hakurya urahabona akazu gakorotiriyeho ibyuma ndetse n'amamodoka abana bari gukiniraho hirya gato.

Ni byiza ko nawe ubaye ufite inzu uri kubaka cyangwa se ibindi bikorwa byawe biri bukenere amabuye, umucanga, amatafari n'ibindi, wajya witabaza ino kamyo y'umutuku, ubona iri gusa n'imanuka, yegeranye n'abamotari benshi, bamwe batwaye abagenzi abandi ntabo batwaye.

Kwiga imodoka n'ibintu byagutabara igihe runaka ubashije kubona akazi ahantu bakagusaba ko waba uyizi. Rero nk'uko ubibona, ahangaha harimo abantu babiri umutwazI ndetse n'umuyobozi wabo uri kumwigisha, cyangwa tuvuge umwarimu imodoka nziza cyane, yerekana ko bigisha.

Ibi babyifashisha kenshi bari gutwara amakaziye arimo inzoga. Amwe ya pirimusi, fanta, n'ibindi. kugira ngo ashyiremo menshi nyine ayazanire rimwe. Hakurya urahabona n'abandi bantu bari baje kwihahira.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo imodoka ifite ibara ry'umweru ishinzwe kugezaho inyama uwazitumije ndetse mu muhanda harimo n'ibindi binyabiziga bindi by'imodoka ndetse n'igare.

Izi moto rero ni izabugenewe zo gutwara imizigo kuko ubaye ari zazindi zisanzwe ukagerageza kuwushyiraho uba ukoze amakosa baranakwandikira biriya biteza impanuka zikomeye zino nizo zigomba gutwara runaka birimo amafirigo, imifuko y'imyenda iremereye ndeste n'ibindi.

Uyu musore nk'uko ubona atwaye umusaza ku igare bari kugenda baganira ateruye agafuka, hirya bari kubisikana n'ikimodoka cy'umweru ubona ko gifasha abantu mu mirimo y'ubwubatsi irimo kubazanira imicanga n'amabuye ndetse n'amatafari.

Imodoka rwose ubona ko ari nziza y'umweru, ihagaze ahantu, imbere yayo hari indi y'ubururu ifite ibyuma hejuru, ni nyinshi nk'uko ubibona hakurya hari umuhanda hari gutambukamo izindi ndetse n'icyuma kiriho amatara acana nijoro.

Hari hamwe mu mujyi hagiye hafite isuku hanakeye, nkaha nkuko uhabona rwose nta rucupa, nta shashi, nta kintu wabona, ibiti, urabona ko nabyo bisa neza, hakurya urahabona inyubako, ikirere urabona ko gisa neza nawe rwose waza ugatembera.

Iyo ibyatsi byapfutse cyangwa se bikageraho bigashira hasi aho wabiteye, ntabwo biba bisa neza pe. Nakugira inama rero yuko wajya ugerageza ukabirinda gukubamo ibintu gukiniramo abana benshi, kereka wenda ibibuga by'umupira nibyo wahita batera ariko wowe ugomba gucunga umutungo wawe niba ari uw'iwanyu bisa neza ugomba kubireba.

Mu byatsi rwose ubona ko ari uburambe, ariko bimwe byavuyeho ibindi biri kumera. Hakurya urahabona imiyenzi aha rero nkurikije ukuntu mpabona, cyaba ari ikibanza cyiza kirarambuye, ukiguze wacyubakamo inzu ndetse ntabwo byakugora ujya gusiza umwanya munini.

Ni byiza ko ubaye ufite umwana wajya umwitaho kugira ngo atazagwingira ngo ahure n'ibirwara runaka bitandukanye, iyi nzu rero ubona iri mu mabara y'umuhondo hakurya hari andi menshi. Ni urugo mbonezamikurire y'abana bato rwa Byimana ubwo rero nawe ubaye umufite wahamuzanye.

Ni ahantu rero heza nkurikije ukuntu mpabona harakeye ibyatsi byitabwaho, harimo n'utundi duti tuhateye. Rero hariya hari ikibuga bakiniramo umukino w'intoki bagenda badunda bagatera hejuru kajyamo kikaba kibaye igitego, hakurya hari ibyuma bihateye nkurikije uko mbibona n'intebe bicaraho hari n'umusore uhahagaze.

Iki kirango rero kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara harimo akantu kigonze gakata hirya bivuze ko imbere gatoya hari ikona, rero bireba abantu batwara imodoka runaka baba bagomba kuyubahiriza.

Imihanda myiza cyane ubona ko ukoze harimo haragendamo ibimodoka birebire ndetse binakomeza ariko birabisikana, hariho ibirango rero kimwe kirasa umweru ikindi kirasa icyatsi, handitsemo ko ari mu karere ka Gicumbi.

Niba uziko urimo gutwara ikinyabiziga ukaba ugenda mu muhanda ndatekereza ko aho wagiye hose nta narimwe wabura kino kirango rwose cyanditseho ngo hagarara iki kimenyesha yuko rero aho ugeze ukakibona uba uretseho akanya gato ukitonda ukareba impande zombi ukabona gukomeza kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Ku batwazi b'ibinyabiziga uru ni urucabana kukibona kino kirango bagahita bamenya icyo kivuze. Ngew kubyo nzi nkuko ukibona kiri mu irango ry'umweru ndetse n'ubururu, iyo ukikibona rwose uhita uvuga ko ari umuhanda ukomeza ugomba kujya aho urikwerekeza.

Ku bantu bazi amategeko y'umuhanda iki ni ikirango cya mpande eshatu, ubuso ni umutuku n'umweru. Ikirango ni umukara kirimo umwana ndetse n'umuntu mukuru, urakibona rero uzage uhita umenya ko hafi hari ikigo cy'amashuri kandi bashobora kuhambukira isaha n'isaha uhite ugenda witonze.

Kubantu batwara ibinyabiziga rwose urunarwo n'urucabana kubabonye iki kintu kimeze gutya rwose cya mpande eshatu kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru mu kirango cy'umukara ukibona rero uhita umenya ko imbere yawe uri bugere urahasanga umuhanda utaringaniye.

Ku batwazi b'ibinyabiziga rwose, hano tubyumva kimwe. Iki ngiki kigikoze muri mpande eshatu, ubuso ni umweru, umuzenguruko ni umutuku ndetse ikirango ni umukara. Ku bantu bari kubibona, harimo umusore bisa n'aho arimo arakora imirimo y'amaboko. Ibi rero, nujya ubibona ujye uhita umenya ko hari imirimo yo kubaka ahantu ugeze.

Ku bantu batwara ibinyabiziga ibi bintu birabareba nk'uko ubibona iki ni ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo, hariho utuntu tw'umukara rwose twerekana ko hano bahanyura bazengurutse, ubwo nukibona uzahite ukurikiza ibyo bavuga cyane cyane ugisanga ahantu hari ihuriro ry'imihanda myinshi.

Ku muhanda haberaho ibintu byinshi rwose, abantu bashobora no gutegereza abagenzi bakanababura, byaba ngombwa bagatega moto nk'uko ubona iriya iri kurenga hariya na yo nta muntu itwaye. Hari ibiti byiza cyane, ikirango ndetse n'amatara acana nijoro igihe bwije n'umuhanda ukata iburyo.

Niba uzi ko utwara ibinyabiziga ni ngombwa kubahiriza ibimenyetso usanga mu muhanda buri uko ubibonye. Kino rero kiri muri mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru, ndetse harimo ikirango ni umukara, hari umuntu ufite ubona ko afite igitiyo arimo aratiyura ibintu runaka, nugera ahantu ukakibona uzamenye ko haro kubera imirimo y'ububatsi.

Umumotari gutya uri kumubona aratashye rwose asoje akazi kiwe arimo arajya mu rugo ngo arebe ko abana biriwe ndetse n'umugore, ageze ku rupangu rw'umuntu rw'umukara hariho n'ibiti ubona ko nta kibazo rwose.

Ibiti ku muhanda ni byiza bishobora kuzana agacucu ukicaramo ukikinga akazuba, hakurya urahabona umumotari ari kumanuka, hirya ye hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'inzu yubatse ukuntu iriho utuntu twiza tugiye tuvunaguye, bisa nk'aho ari ku maduka.

Kugura ubutaka nibyiza ariko nanone ukamenya aho ubuguze aho ariho hari igihe usanga atari mu miturire ugasanga urayahataye ariko nawe iyo ubibonye ubona ko utahombye iyo uhaguze wenda ari mu miturire wanaguze ahakurikiyeho uhabona amazu meza cyane yitegeye umujyi bisa naho utaba uhombye uhabaye.

muri za mirongo icyenda na za bibiri rwose umuntu wabwiraga ati :gura kino kibanza yarakubwiraga ati :reka reka hano ntabwo nahatura niyo wagira ute nta wundi uherutse kuhaza ariko ubu ndebera umuntu uhaba niyo wamuha miliyoni zikubye kabiri izo yaguze hano ntabwo yabyemera ahubwo a ugomba kugutegeka ukamuha ayashaka ndeba uyu muhanda indabyo zihateye ni byiza ko nawumenya aho ugomba gutura.

Izi modoka ubona ni nziza cyane hari ibiti, hari amatara ndetse n'amapoto y'amashanyarazi abambutsa, abamotari bari kugenda bacicikana rwose n'abantu bahetse ibikapu ubona ko ari mu mujyi ibintu ari amahoro.

Inzu nziza cyane ibiti ubona ko bizamura umuyaga bikanakurura imvura cyane cyane ko binawutangira kugira ngo udasenya amazu, nibyo bishinze hano rwose ubona hari afite amabati y'umutuku ndetse n'andi maremare rageregetse rwose ateye irangi ry'umuhondo.

Aya ni amabati azitiye hano ubona, uri kubona ko harimo inzu ishaje ndetse n'imodoka, ariko harimo n'ibyatsi. Hakurya hari ikindi kizu kinini ubona ko wagira ngo habamo uruganda, amazu meza y'ama etaje yubatse hakurya nanone uri kuyareba ndetse n'umukara, insinga z'amashanyarazi zambukira hejuru.

Hano rero nuk'umuhanda, urabona ko harimo umurongo muremure w'ubuhondo, umenyesha abantu batwara ibinyabiziga ko nta kunyuranaho byemewe igihe utaragera aho ucagaguye hakurya yaho urahabona amadoka ndetse n'amoto yaraje guparika imbere y'inyubako rwose, ubona ko bafite ibyo bashaka.

Gusasa amabuye ahantu ni byiza kuko bituma hagaragara neza n'agaciro kakiyongera bitewe n'abahakodesha. Uyu mwari rero, ubona ko yambaye agapira k'umweru afite ahantu ari kwerekeza, hakurya hari imiryango, imwe irafunguye indi irafunze ariko harimo ibintu bijyanye n'ubucuruzi.

Amazu meza ubona ko yose yubatse mu bwoko bumwe harimo n'ageretse, ibiti byiza cyane bikeye rwose ubona hakurya ukabona bifite indoro nziza cyane, ikirere cyujemo igicu ubona ko rwose ari ahantu hakwiye guturwa.

Amabuye meza cyane ashashe nako hari ibiti ,igipangu cy'umukara si kimwe binjirira habiri cyangwa se hamwe naho basohokera bakubita akajisho mo imbere harimo inzu nziza cyane rwose ubona ko nayo ifite ibice bibiri wagirango nyine ibamo imiryango itandukanye.

Inzu nziza urabonako irubakitse pe harimo uturange twiza tw 'ubururu hari n'umweru hakurya harindi nanone iriho iminara itanga itumanaho n'ikigega hejuru ibiti hasi bizana akayaga ndetse nizindi ubona ko ari izabaturage biberamo.

Kubona moto ni ibintu bigabura kuko nuko uyu nguyu ari kugenda yarangaye amakosa menshi ari gukora rwose ari muri telefone, uriya ashobora kugongwa n'imodoka cyangwa se ikindi kintu runaka ugasanga nyine bimubanye ibibazo ariko ni ngombwa nawe niba ariko kazi kawe kaburi munsi ukajya wirinda ukamenya ibiri ngombwa ugomba gukora cyangwa se waba ukeneye nko kwitaba umuntu ugashyira ku ruhande.

Hari ahantu hari amazu aba akeye ubona ko ameze nk'inganda nk'aya ngaya yubakishije amatafari ahiye igipangu, hakurya urahabona n'andi y'umweru ubona ko nayo afite utudirishya tumeze neza, ikirere utamenya ukuntu gisa ariko nkurikije uko mbibona ni nk'ivu.

Hano rero ni ku maduka ubona nawe ushobora kuza ukagura ibintu bitandukanye byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, nk'uko ubibona hakurya hari indobo z'umutuku ndetse n'iyicyatsi irimo ibintu bacuruza, hirya hari n'indi miryango n'imodoka ihahagaze.

Aha ni ku mujyi rwose nkuko ubibona amazu ahari ndetse n'ibiti hakurya urahabona igeretse nziza cyane rwose ushobora kuza ukahiturira nawe ubungubu nko muri za mirongo inani ntawatekerezaga ko hazamera gutya.

Kuyoboka inzira ya banke ni byiza kuko hari igihe ukenera inguzanyo bakayiguhereza ukaba wakwiyubakira inzu yawe cyangwa se ibindi ibintu runaka, hano ubona rero hari abantu benshi niho baje rwose harimo n'abamotari hirya hari utundi tuzu ubona ko tukorerwamo ibindi bintu.

Gutwara ibinyabiziga ni byiza cyane ubaye ufite amafaranga nawe wakigura nkuko ubibona iyi ni imodoka rwose irimo umugabo ikirahuri kiramanuye, irimo irasohoka mo imbere harimo indi rwose isa naho hano ari ikigo gicuruza umutekano.

Abasore bihangiye imirimo bararebye basanga ntago bazagera ku cyo bashaka badakuye amaboko mu mufuka ngo bakore, hano hari utubati twiza tw'umweru tw'ibirahure hakurya urahabona umuntu wambaye umupira aricaye mu ntebe rwose nawe nta kibazo afite.

Buriya iyo umujyi ukeye bigaragara ko ubamo abantu baba bafite isuku, ubona hari ibiti rero bitanga igicucu, ndetse hakurya urabona imodoka y'umweru itwara mu buryo bwa rusange n'abamotari bari gucicikana bambuka, amatara ku muhanda nijora yaka, hakurya hari izindi nyinshi cyane zihahagaze rwose ubona ko zahagaritswe n'abantu baje mu kazi.

Imodoka nini cyane ikunda gutwara abantu by'umwihariko zikunda gukoreshwa mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu bice bike bitandukanye zitwara abantu benshi bagiye ahantu hamwe ahoza uba ufite ikarita uka ugakoza ku cyuma hanyuma amafaranga akavaho ukinjiramo hanyuma bakagutwararwa kugeza aho ugiye, si ibyo gusa kandi n'abagenda bahagaze turabona imbere umunyamaguru cyangwa se umugenzi ufite igare uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru.

Uyu muhanda w'igitaka ureba ugenze nabi ushobora kunyereramo ukagwa rwose kubera utubuye turimo, ahubwo nk'abanyegare cyangwa abamotari uramanuka wagera imbere ukabona undi ukoze neza hari ibiti hari n'ibipangu by'abakire nibo bahituriye.

Wowe utwara ibinyabiziga ni ngombwa ko ubyubahiriza ndetse n'amategeko y'umuhanda. Rero hano hari akayira k'abanyamaguru hirya gatoya hari umwanya ubona uhagararamo imodoka runaka, ishobora kuhamara igihe cyangwa se ukanayiharaza ariko aha ni ho hemewe gusa.

Aha ni aho abanyamaguru bagendera nkurikije uko mbibona ni igikuta cy'amabuye hirya hari indabo, ubona n'ibiti biteye rwose, amatara, imikindo, ibi ni ibintu bituma rero umugi uguma usa neza.

Iyo bavuze ngo sora ujye umenya ko umusoro wawe uba ufite inyungu nini ku gihugu .Nk'uko ubibona iki kiraro amafaranga yagitwaye ntabwo ubwacu twayigondera twebwe tuvuze ngo ni umuntu umwe ugiye kucyubaka ahubwo ni buri imbaraga za buri muturage rwose, reba no munsi imihanda irimo iki gikuta cy'amabuye ni byiza kugirana ubufatanye nk'abanyarwanda twakagira n'ubumwe.

nkurikije ukuntu mbibona nubwo ino foto ucuramye ariko nabasha kuyireba hari umuhanda rero ibyerekezo bitatu hari igihezamuka ruguru urabibona kirangizwa n'umurongo w'umuhondo hirya hari aho umutarari ahagaze imbere y'a hari imodoka byerekana bari bukomeze no hakurya hari iyindi nayo y'umukari kugenda byerekana ko nayo ifite iyo ijya nyine itari buhagarare.

Ni byiza nawe ko wajya utanga umusoro kuko wajya ugutabara igihe runaka, hano rero ni mu muhanda munsi y'ikiraro nawe ubare amafaranga acyubatse umbwire ukuntu angana niba nawe uri umwe cyangwa se wapfa kuyabona. Ni byiza ko rero ugomba gukurikiza ingamba za leta.

Niyo bwaba bwije uba ugomba kureba ni nacyo umusoro ukora rero, hakurya urahabona aho banyura bazengurutse nk'uko icyapa kibigaragaza ndetse banyura munsi no hejuru, rero iki ni ikiraro hariho amatara ku muhanda acana nijoro rwose iyo bwije.

Ni byiza ko wajya ugenda nijoro ukareba kuko nibwo uryoha, hano rero n'ahantu banyura bazengurutse hakurya urahabona abantu baba bari kwigendera, imodoka nziza cyane ziri gutambuka zinyura munsi y'ikiraro, amatara acanye nijoro rwose ubona ko ari ku manywa.

Umuhanda nyabagendwa rwose urabona ko urimo abagenzi, abamotari bari kugenda nta bagenzi bafite rwose batwaye, ingofero zabo zibarinda ibyago barazambaye izindi ziri ku ruhande, hari ikirango cyanditseho imibare, magana tandatu na mirongo icyenda n'umunani, cyerekana ahantu cyangwa se umuhanda ahagazeho n'ipoto ry'amashinyarazi cyangwa ririho itara rimurika nijoron riri ku muhanda.

Nibavuga ngo Kigali isukuye uzahite wumva ko ari imihanda myiza, amazu ari ku muhanda ndetse anakeye. Hano rero urahabona ni nyabagendwa hanyuramo imodoka ndetse iyo mirongo y'umweru ubona irimo ni iyo abanyamaguru bambukiramo bagenda. Hakurya urahabona ko n'abandi utuyira twabo barikugenda badutambukamo nta kibazo, ukareba n'ibirango bihari birikwamamaza.

Imodoka nziza ubona ko ireba neza rwose yo mu bwoko bwa ravafo toyota y'ubururu, iri kurenga ahantu hari imiromko y'umweru bigaragara ko hambukira abanyamaguru cyane ko yanahahagaze uri kumubona yategereje kwambuka ngo agende.

Ku bantu bize amategeko y'umuhanda baratubwira cyangwa badukiranure niba uyu mumotari uhetse imifuka, ari mu mafuti cyangwa ntayo arimo ariko nkurikije uko mbibona ayarimo kubera ko yambukanye abantu kandi ino mirongo y'umweru igaragaza ko hagomba kwambukirwa abanyamaguru gusa.

Ku muhanda nk'uko ubibona hari gutambuka imodoka nyinshi eshatu, hakurya hari igipangu, inzu hepfo hari undi umanuka ubu rero ni igitaka urebye niba ushobora kunyerera utwaraye igare cyangwa moto, ni byiza ko wajya ugenda wirinda.

Ubundi nicyikwereka ko amafaranga akora ibintu iyo bihari nayo iyo ahari, rwose bigenda neza ahangaha wagira ngo ni kumanwa kandi ni nijoro amatara imihanda ikoze neza abantu baragenda hakurya urahabona n'icyapa rwose cyerekana ko bahanyura bazengurutse n'imodoka ziri kugenda zirukanka.

Aha rero ni umuhanda utambukamo ibinyabiziga byinshi, rero uwo mumotari atwaye umuntu yambaye ingofero zibarinda ibyago arimo arerekeza iyo agiye, hakurya urahabona indi modoka y'umutuku nayo isa n'irikumanuka, hanyuma ino mirongo iciye hagati yo ivuga ko utagomba kuhahagarara igiye ubikoze uba ukoze amakosa akomeye cyane.

Uyu muhanda uko uwubona ni uwo abanyamuguru bambukiramo unyujijemo imirongo y'umweru, abamotari rero na bo baribahageze barahagarara bategereza ko ibyuma birimo byaka bibemerera uburenganzira bwo gutambuka.

Kugenda mu muhanda bisaba kwitonda mukagira ikinyabupfura ndetse n'ubworoherane kuko bitabaye ibyo mwakora impanuka rwose ugasanga murangiritse hano rero urahabona harakeye hariho n'amatara amurika nijoro mugihe bwije hakurya urabona n'inyubako.

Aha rero ni mu muhanda aho abantu bose baba bari kugenda n'abandi bakomeza, harimo imirongo ikase gusa uwo uri kubona werekana ko hajya iziri buhite zikata zikamanuka, hakurya urabona imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange iri kuzamuka iri kwerekana amagambo y'umutuku hejuru rwose bivuze ngo uhita umenya aho ivuye cyangwa n'aho iri kujya.